Indege ntoya izwiho gutwara imiti ku bitaro bitandukanye hifashishijwe ikoranabuhanga kugira bayigurutse hatiriwe hagenda imodoka ngo zigende igihe kirekire zigiye gufata imiti cyangwa se amaraso ziyajyana.

Icyumba cy'ubuvuzi kiryamyemo abarwayi, buri wese aryamye ku gatanda k'iwe ndetse hari n'abaganga barimo baragerageza kubitaho, hari n'abakora isuku barimo bakoropa hasi.

Abaganga babiri bambaye imyenda yabugenewe ipfutse ahantu hose kugira ngo bataba bakwirakwiza icyorezo icyo ari cyo cyose kigendera mu mwuka ndetse bafite agatanda kariho umurwayi batabaye.

Umuganga uri mu cyumba cy'ubuvuzi urimo uragerageza gupima umubyeyi waje kwivuza ngo amenye uburwayi yaba afite n'icyo yamufasha mu gihe abonye uburwayi afite mu mubiri.

Imbangukiragutabara itwawe n'umugabo, ndetse itwara abarwayi bo mu karere ka Nyagatare ibitaro bya Gatunda, ikabageza aho bagiye kwivuriza cyangwa se ikabakura, iwabo aho barwariye ibageza ku bitaro bya Gatunda.

Abaganga b'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga, barimo bategura akadege kabugenewe, bohereza mu bitaro bitandukanye, kakagenda kajyanye amaraso cyangwa se imiti, bakoresheje ikoranabuhanga.

Abantu benshi bari ahantu hanini, bamwe muri bo bambaye imyenda y'ubwirinzi ndetse abandi bambaye amakoti y'umutuku, ariho ikirangantego cy'abakorerabushake ndetse barimo bitoza kuba batera umuti.

Abagabo babiri baciye bugufi ndetse n'abandi bahagaze barebera, barimo baratunganya agatanda bashyiraho abarwayi iyo bagiye kubaha ubutabazi bw'ibanze, ahantu aho ari ho hose baba baherereye.

Abantu benshi bahagaze hejuru y'ikiraro, barimo batanga ubutabazi bw'ibanze ku bari baguye mu mazi munsi y'ikiraro ndetse undi arimo aragerageza kubazamura akoresheje amaboko.

Icyumba cy'ubuvuzi kigaragaramo ibikoresho byose byifashishwa mu kuvura abarwayi, harimo agatanda umurwayi aryamaho, harimo ibikoresho byifashishwa bavura umurwayi, ndetse n'intebe umuganga cyangwa umurwayi yicaramo.

Umugabo urimo urereka bagenzi be bamukikije uko wakora ubutabazi bw'ibanze, igihe umuntu aramutse agize ikibazo nta bantu bahari bo kumufasha cyangwa se nta butabazi bwihuse buhari, icyo wakora kugira ngo umufashe ntapfe.

Abashinzwe gukora ubutabazi bw'ibanze bambaye amakote y'umutuku, ashushanyijeho umusaraba batatu ndetse batwaye umuntu ku gatanda kabugenewe batwaraho abarwayi.

Imodoka y'imbangukiragutabara, itwara abarwayi mu bitaro bya Nyagatare, iyi ihamagarwa iyo hari umurwayi, ufite uburwayi bwihutirwa cyangwa se ukeneye kugezwa kwa muganga byihutirwa.

Abantu benshi bahagaze hamwe, bakorera hamwe barimo bahinga ndetse bakuraho ibigunda, babifashijwemo n'abakora mu buvuzi bw'ibanze bubangutse.

Inyubako yubatse mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umuhondo ndetse imbere yayo haparitse imodoka y'imbangukiragutabara, ijya gufata abantu aho ariho hose muri Nyagatare, igihe bafite uburwayi bwihutirwa.

Umugabo wakomeretse ufite ibipfuko utwawe n'undi amurandase, kugira ngo abashe kuba yateye intambwe, kandi inyuma ye hari abantu benshi barimo baragenda bajya mu byabo bitandukanye.

Hagaragara utudege dutoya dusigaye dukoreshwa mu Rwanda mu gukwirakwiza imiti ndetse n'amaraso mu bitaro bigiye bitandukanye hatabanje gufatwa imodoka ngo iba yagera kuri ibyo bitaro, ahubwo utu tudege badukoresha n'ikoranabuhanga tukahagera.

Abaganga bari mu cyumba cy'ubuvuzi bambaye imyenda y'ubwirinzi ibapfutse ahantu hose kugera ku mutwe kugira ngo abarwayi bari muri icyo cyumba bafite ubwandu bwandura bataba babanduza.

Ahakorerwa ubuvuzi butandukanye bushobora kuba ubw'amenyo, bw'amaso cyangwa ibindi harimo ibikoresho bitandukanye, intebe muganga yicaraho agatanda k'umurwayi, amatara bakoresha babaga cyangwa bavura ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Abagabo bane ndetse n'umugore umwe bahagaze imbere y'imodoka y'imbangukiragutabara itwara abarwayi igihe babahamagaye bakomerewe, ikaba yabageza ku bitaro bibegereye cyangwa biri hafi.

Inzu nini iteraniyemo abarwayi, buri wese aryamye ku gatanda kiwe tugiye turi iburyo n'ibumoso kandi hari n'akazana umuyaga, hejuru hamanitse inzitiramibu zituma imibu itabarya.

Ababyeyi benshi b'abagabo ndetse n'abagore bari kwa muganga bazindukiye kwisuzumisha uburwayi butandukanye ndetse n'abahetse abana baje gukingiza cyangwa kuvuza.

Abaganga bari mu cyumba cyabugenewe k'ibagiro, bambaye imyenda yabugenewe ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umurwayi uryamye ku gatanda kabugenewe gakikijwe n'utumeza turiho ibikoresho byabugenewe bifasha mu kubaga.

Abaganga babiri, umugore n'umugabo bagaragara nk'abari kuganira ku bintu runaka bakorera ikigo kimwe bafite impapuro imbere yabo.

Muganga urimo ushyira umwana mu gikoresho cyabugenewe bashyiramo abana bavutse batujuje igihe cyangwa abana bavukanye uburwayi runaka karemano.

Abasore babiri bari mu cyumba gikorerwamo ubushakashatsi ndetse bahuze barimo barakora ubushakashatsi nabo ku giti cyabo bikoresheje ibikoresho byabugenewe, biri impande n'impande mu cyumba gikorerwamo ubushakashatsi.

Umurwayi uryamye mu cyumba cy'ubuvuzi ku gatanda kabugenewe karyamwaho n'abarwayi, ndetse hakikijwe n'utumeza duteretseho imiti, ndetse hejuru hamanitse inzitiramibu zabugenewe.

Abantu benshi barimo baragenda ku murongo, bafite ibipapuro biriho kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu, bibuka Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, mu gihumbi kimwe magana cyenda, mirongo icyenda na kane.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inzu y'imberabyombi, barimo abagabo, abagore, abakobwa ndetse n'abasore ndetse bakikijwe n'ibyapa bibiri, byanditseho baho neza.

Abari gufata ifoto bahagaze hamwe ndetse bari kwerekana impamyabushobozi bahawe cyangwa se bahawe nyuma yo kurangiza ibyerekeranye n'ubuvuzi, ubu bakaba batangira kuvura.

abaganga b'abagabo ndetse n'abagore n'inkumi bahagaze ku murongo, bafite ibipapuro barimo basoma cyangwa se bagira ngo barahire cyangwa se bemere imyanzuro bafashe ku mugaragaro.

iIcyumba cy'ibagiro cyo kwa muganga kirimo abaganga batandukanye bambaye imyenda y'icyatsi yabugenewe, ndetse barimo babaga bakikijwe n'ibitara binini by'icyatsi byaka cyane.

Abaganga n'abaforomo bari mu cyumba cyabugenewe cy'ibagiro ndetse n'umurwayi uryamye ku gatanda barimo bakorera ibikorwa by'ubuvuzi, bafite amatara menshi ndetse n'ibikoresho byabugenewe.

Umwe mu ngabo z'igihugu, uhagaze imbere y'abantu benshi ndetse urimo ubabwira kandi nabo bahagaze bamuteze amatwi bummva icyo ababwira, bamwe muribo bambaye udupfukamunwa, dutuma badakwirakwiza indwara z'ubuhumekero.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye udupfukamunwa kugira ngo birinde indwara izo ari zo zose kandi bari mu cyumba k'isuzumiro bakoreramo ubushakashatsi na bo barimo barakora ubwabo.

Umuganga wambaye ibyabugenewe mu ntoki, ufashe urushinge arimo agerageza kurutera umurwayi kugira ngo abe yamusuzuma amenye uburwayi afite mu kumufata amaraso.

Umuhungu wambaye imyenda yabugenewe yo mu cyumba gikorerwamo ubushakashatsi ndetse n'agapfukamunwa, arimo arakoresha ibyuma byabugenewe bituma asuzuma ibijyanye n'ubushakashatsi bwiwe arimo.

Abanyeshuri bari mu cyumba gikorerwamo ubushakashatsi ndetse buri wese arahuze, arimo arakora ubushakashatsi bwiwe ku bintu runaka yaba yarabonye cyangwa ashaka.

Icyumba gikorerwamo ubushakashatsi kirimo ibikoresho byinshi, bikenerwa mu gukora ubushakashatsi ndetse iki cyumba cyifashishwa mu gukora ibintu byinshi bitandukanye, birimo n'imiti ivura uburwayi budasanzwe.

Umuganga wambaye umwenda wabugenewe w'umweru ndetse n'agapfukamunwa kamurinda kuba, yakandura indwara z'ubuhumekero, ari mu cyumba cy'isuzumiro ndetse arimo aratera imiti mu nshinge.

Umuganga w'igitsina gore uri mu cyumba cy'ubuvuzi cyabugenewe, arimo arashyira umuti mu rushinge kugira ngo abashe kuba yatera umurwayi amuvure uburwayi runaka.

Abanyeshuri bari mu cyumba gikorerwamo ubushakashatsi ndetse barimo barakora imikoro yabo, bambaye imyenda yabugenewe isa umweru, ibakwije hose kandi bakikijwe n'ibikoresho bakoresha byabugenewe.

Umuganga wicaye imbere mu cyumba cy'ubuvuzi cyabuhariwe, urimo ufata amaraso umugore uhetse umwana kugira ngo abashe kuba yamupima amenye uburwayi afite ndetse n'imiti yamuha.

Abantu bari mu cyumba cy'isuzumiro barimo bagerageza gukoresha ibikoresho biri muri icyo cyumba bavumbura ibintu bimwe na bimwe, cyangwa se bakora ubushakashatsi ku bintu bitandukanye.

Umuyobozi w'umudugudu urimo ugerageza kuganiriza abaturage be, ku bijyanye n'imyitwarire myiza, ndetse n'imibereho myiza y'abana, kugira ngo batazarwara bwaki cyangwa izindi ndwara zitandukanye.

Abana bicaye ku musambi hasi barambije, bafite inkongoro zirimo amata barimo basomeza ndetse bakikijwe n'abantu bakuru barimo babafasha kunywa amata batayimena.

Aha haragaragara abantu benshi bicaye hasi ndetse n'abandi bahagaze, abana bicaye ukwabo ndetse n'abantu bakuru bicaye ukwabo, barimo barasangira ku munsi runaka, bicaye mu twatsi dutoshye.

Umubyeyi ukikiye umwana ndetse n'undi mwicaye iruhande n'undi uhagaze ku idirishya, aho ari gusaba ubufasha bujyanye na mituelle de sante bwo kwivurizaho.

umuganga w'umugore, ufite icyo basuzumisha ndetse wagishyize ku murwayi arimo agerageza kumusuzuma ngo arebe niba nta burwayi yaba afite kandi bashagawe n'abandi baganga ndetse n'abarwayi.

Ishuri ry'inshuke ririmo abanyeshuri benshi bicaye ku dutebe twabo twabugenewe ndetse hahagazemo abagabo bagenda babafasha mu bintu barimo barakora baberekera.

Haragaragara umubyeyi w'umumama ndetse urimo uratanga inama ku bantu bamukikije, barimo: abana, ababyeyi bakuru ndetse n'urubyiruko, inyuma yabo hagaragara ibiti byinshi.

Abantu benshi bakoze uruziga bicaye mu itsinda intebe zigiye zegeranye, ndetse bari kuganira ku bintu runaka umwe avuga yarangiza n'undi akavaho kugira ngo bajye inama.

Inzu icururizwamo imiti yitwa Iraguha ndetse irimo abantu benshi baje kugura imiti ibavura uburwayi butandukanye, hirya haparitse ibinyabiziga.

Umuhungu ukiri muto wambaye itaburiya y'akazi ndetse uri aho bagurishiriza imiti arimo atondeka neza mu tubati twabugenewe tuba mu nzu igurishirizwamo imiti.

Icyapa kigaragaza ahagurishirizwa imiti y'amatungo, ndetse aho wazana itungo ryawe kurisuzumishiriza ku burwayi ryaba rifite ubwo aribwo bwose, ndetse ukanahabwa imiti, icyapa kiragaragaraho: inka, imbwa, ingurube, ihene ndetse n'inkoko.

Inzu icururizwa imiti ndetse imanitsemo imiti myinshi cyane, imanitse mu tubati twose, harimo imiti y'amoko atandukanye ndetse n'amabara atandukanye, ari iri mu dukopoko, mu bibikarito ndetse no mu macupa.

Imiti myinshi y'ibinini irambitse ahantu hamwe, harimo iy'umweruru, iy'umutuku, iy'umuhondo ndetse n'indi myinshi itandukanye ivura uburwayi bugiye butandukanye kandi ikaba isangwa aho bagurishiriza imiti.

Umugore ndetse n'umugabo bahagaze ahagurishirizwa imiti, hari utubati tuini twuzuyemo imiti igiye itandukanye, ndetse n'amabara atandukanye, kandi ivura ibintu bitandukanye.

Imodoka y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda, iparitse imbere y'inzu icururizwamo imiti ndende kandi ifite icyapa gisa icyatsi, kigaragariza abantu ko ari aho bagurishiriza imiti.

Ahacururizwa imiti hitwa Sabasi, aho wajya ugafata imiti iyo ari yo yose ukeneye, bitewe n'uburwayi ubwo aribwo bwose ufite mu mubiri wawe kandi ikaba icuruzwa.

Farumasi irimo imiti myinshi itandukanye kandi ivura uburwayi butandukanye iri mu tubati dusukuye dufite ibara ry'umweru ndetse no hasi harasukuye nta kavuyo kaharangwa.

Icyapa kigaragaza inzu igurishirizwamo imiti yitwa Feliseni ndetse icyapa gifite amabara y'icyatsi ndetse n'umweru ku ruhande, mu nzu iri ku muhanda.

Ahagurishirizwa imiti, hagaragara amakarito menshi ndetse n'uducupa dutoya, turimo imiti itandukanye kandi ivura indwara nyinshi zitandukanye.

umubyeyi ukuze wambaye umwenda w'akazi, uri gutondeka imiti, ahabugenewe, mu nzu icururizwamo imiti ndetse harimo ubwoko bwinshi bw'imiti itandukanye, igiye ifite amabara atandukanye.

Abayobozi b'igihugu bicaye imbere y'icyapa cyanditseho RBC ndetse barimo bagira inama aba bicaye imbere, bababwira kureka ibiyobyabwenge.

Ahantu hari imbaga y'abantu benshi b'abagabo ndetse n'abagore, bashungereye ahari abantu bari kwamamaza uko wakoresha agakingirizo cyangwa se ukagahabwa ku buntu kuko bari kutwamamaza.

Urubyiruko ndetse n'abakuze bafashe icyapa kiriho umunsi wagenewe kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko ndetse n'abakuru kandi bagifashe bagenda bakizengutsa umuhanda hose.

Abantu b'igitsina gore babiri bambaye udupira tw'umweru ndetse bafashe icyapa gikangurira abantu kwipimisha ubwandu buterwa na virusi itera sida kugira ngo bose bamenye aho bahagaze.

Umusore ufite ibyapa biriho amagambo agira ati bakoreshe neza agamije kugira inama urubyiruko cyangwa se abakoresha udukingirizo kudukoresha neza mu buryo bwagenwe.

Abarimo bakorera umuntu igorororamubiri, bamukanda kanda ahantu hose kugira ngo imitsi yiwe ibashe kurambuka kandi ikore neza bifashishije imiti gakondo.

Aho bacururiza hari imiti itandukanye ya kinyarwanda kandi ya gakondo, ivura uburwayi bwinshi butandukanye hagaragaramo ibumba ari ryo abantu banywa kugira ngo ribavure ibintu bitandukanye ndetse n'indi miti myinshi.

Imiti gakondo igaragara mu dukombe tumeze nk'uduti higanjemo ibibabi by'ibiti runaka ndetse imyinshi muri yo iraseye yakozwemo ifu.

Abantu babiri barimo bafatanya kuyungurura umuti umwe afashe igikombe undi afashe akayungirizo, ndetse n'umubirikira kugira ngo ibyo barimo bayungurura bigere hasi bisa neza.

Kwa muganga bicaye abagore babiri, umugore uhetse umwana yicaye ku ruhande rw'iburyo, ndetse n'umuganga yicaye iruhande rw'ibumoso. Umugore uhetse umwana arimo arasaba serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Ababyeyi bicaye bateruye abana ndetse n'abandi bahetsi abana barimo bahabwa serivisi za mituelle de sante ku kigo nderabuzima kibegereye ndetse basaba n'ubufasha.

Udutanda dutoya twabugenewe abarwayi baryamaho turi mu cyumba cy'ubuvuzi ndetse icyumba kirimo isuku kandi kiracyeye, ku ruhande hari utwuma bamanika ho serumu.

Umubyeyi uteze igitambaro, wicaye ku gitanda cyo kwa muganga cyabugenewe, ndetse akikiye uruhinja rwavutse uwo munsi, hirya no hino yiwe hari ibindi bitanda biryamyeho abarwayi.

Ibitaro birimo udutanda twinshi duteye ku murongo twabugenewe, abarwayi baryamaho iyo baje kwivuza kandi birakeye birasukuye, birimo isuku kandi amatara yabyo yaka neza.

Aha hagaragara imifuka myinshi isa umuhondo ndetse ishushanyijeho amatungo, bigaragara nkaho ari ibiryo by'amatungo biri mu mifuka myinshi itondekanije.

Ababyeyi bicaye ndetse n'undi uhagaze bameze nk'aho barimo bahugurirwa ku bijyanye no kuboneza urubyaro ndetse no gufata ibinini bibafasha kuboneza urubyaro.

Ikigonderabuzima kizwi Nkagira ubuzima ndetse gisize amarangi y'ubururu yubatse mu buryo bugezweho kandi gikoresha kandagiraukarabe. Iyo abantu bagiye kwinjiramo.

Umuti w'inyamaswa ushinzwe gukuraho udukoko n'imyanda yose zaba zifite ku mubiri, umuti ushobora gusangwa ku babyigiye bashinzwe kwita ku binyabuzima, ku nyamaswa zo mu rugo ndetse n'izo mu ishyamba.

Abagabo bari gukaraba intoki, bambaye udupfukamunwa tuzwi nk'utw'ubwirinzi bw'indwara runaka zandurira mu myanya y'ubuhumekero kandi zikwirakwira vuba vuba.

Ikigo nderabuzima kitwa gira ubuzima kivura kandi kikanita ku barwayi ndetse gisize amarangi y'ubururu imbere hari urukarabiro rwabugenewe aho abantu bakarabira mbere y'uko binjiramo imbere.